Icyokezo ni igikoresho bokerezaho inyama cyangwa se ibirayi. Ibyokezo bikunda kugaragara nko mu mahoteri cyangwa mu tubari , aho barokereza abakiriya ibiribwa mu buryo bwihuse.

Mu kabari ni ahantu haba hari ibiribwa n'ibinyobwa, biba bisa neza cyane bifite isuku, kuko ababiteka babitegurana ubuhanga, kandi baba barize uburyo bagomba kubiteguramo, by'umwihariko bakabikorana isuku ihagije.

Mu kabari ni hantu bacuruza ibinyobwa; bimwe biba byaturutse mu ruganda, ibindi binyobwa abantu babyikoreye iwabo mu ngo, bakabizana aho mu kabari, abaguzi bakaba ari ho babisanga bakabinywa, ukeneye kubitahana, akabitahana iwe mu rugo.

Akabari ni inyubako abantu bajya kunyweramo inzoga, cyangwa ibindi binyobwa bitandukanye. Hari n'igihe baba bateka n'ibiryo, umuntu akanywa inzoga, ariko yaba akeneye n'ibiryo na byo bakabimugurisha.

Akabare ni inzu iba irimo ibicuruzwa bijyanye n'inzoga zaturutse mu nganda zitandukanye. Umuntu uri kunwera mu kabari aba atuje, kuko haba hafite isuku ihagije n'umutekano.

Akabari ni inyubako iba irimo ibinyobwa. Haba harimo n'ibiribwa bateka mu buryo bwihuse cyangwa botsa, nk'amafi, inkoko, burushete n'ibindi.

Amafi ni ubwoko bw'biribwa, agira intungamubiri, ni meza kuyarya, kuko kuyar cyane bituma hatabaho imirire mibi ku bana.

Akabari ni ahantu hacuruza ibintu byo kunywa cyane cyane nk'inzoga zaturutse mu nganda, haba harimo n'ibiryo byo kurya ibitetse cyangwa se ibyokeje, haba ari heza kuko haba hafite umutekano n'isuku.

Akabari ni inzu bacururizamo ibintu bijyanye no kunywa ni ibintu byo kurya, akabari kaba gafite isuku nyinshi cyane hakunze kubonekamo ibintu byokeje, ibiribwa byokeje kandi haba harimo n'amacumbi, yo kuraramo ku bantu bananiwe cyangwa se bashaka kuharuhukira.

Akabari ni inyubako iba irimo ibicuruzwa byo kunywa, byavuye mu inganda zitandukanye, haba harimo n'ibiryo byokeje, cyangwa se bitetse mu buryo bwihuse.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu zubakwa kugira ngo bazajye bazicururizamo. Akenshi ziba zubatse zegereye ku muhanda, aho abantu bashoboye kugera biboroheye cyane.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu zubakwa cyane cyane hagamijwe kujya zicururizwamo, cyangwa se gutangirwamo izindi serivisi zitandukanye izi nzu zirangwa nuko zakirirwamo abakiriya.

Inzu z'ubucuruzi ni inyubako bacururizamo ariko ziba zubakishijwe ibikoresho bitandukanye. Hari iziba zubakishijwe amatafari, izindi ziba zubakishijwe amabuye, hari n'izo bubakisha ibiti bitewe n'ibikoresho biboneka mu gace bari kubakamo.

Inzu z'ubucuruzi, ni inzu bubaka zigenewe gucururizwamo, zikunda kuba zegereye ku muhanda, ku buryo abaza kugura barahagera biboroheye, haba harimo n'ibicuruzwa bitandukanye, ibyo kurya cyangwa se ibikoresho byo mu rugo.

Inzu z'ubucuruzi ni inyubako zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, zifasha ba nyirazo kwiteza imbere, kuko mu bucuruzi bwabo nta muntu wabiba haba hari umutekano mwinshi.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu ziba zirimo ibicuruzwa maze abaguzi bakaza bakagura, hariho n'abacuruza ibintu byo gukodesha nk'imikenyero waba uri bujye mu bukwe ukaza ukawukodesha wavayo ukazawugarura.

Amazu y'ubucuruzi, n'inyubako zikorerwamo ubucuruzi, hakaba harimo, ibintu bitandukanye, ibiribwa, ibinyobwa, imyambaro, kandi akunda kuba yubatse ahantu har'umuhanda, hanahurirwa n'abantu benshi.

Abacuruzi bacururiza mu maduka baba bafite umutekano uhagije, kuko ntabwo wabagereranya n'abacururiza hanze izuba rirabavira, imvura ikabanyagira, ariko abakora mu maduka baba batuje banezerewe.

Inzu z'ubucuruzi, n'inzu zikorerwamo ibikorwa byo kugurisha no kugura, abantu bafite inzu z'ubucuruzi biteza imbere, kuko bibarinda gukodesha aho baracururiza bagacururiza mu nzu zabo.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu zubakwa zigamijwe ngo abantu bazazicururizemo. Hari iziba zifite ibyumba bibiri, n'iziba zifite icyumba kimwe cyonyine.

Umuntu uba ufite inzu y'ubucuruzi, aba yariteje imbere, kuko niyo atariwe wayicururizamo, abandi baraza bakayikodesha, nabo bakazajya bamwishyura ku kwezi, akabona amafaranga.

Iduka ni ahantu dusanga ibicuruzwa bitandukanye: imyenda, amasafuriya, ibiyiko, ibikombe, amasorori, cyangwa se tugasangamo n'ibindi biribwa.

Amazu y'ubucuruzi ni amazu bubaka kugira bazajye barayacururizamo, hari aba yubatse ari umuryango umwe cyangwa ari imiryango ibiri ifatanye, hari n'aba yubatse mu buryo bwa kijyambere ageretse.

Inzu z'ubucuruzi, ni inzu ziba zarubakiwe kugira ngo bajye bazicururizamo, umuntu ufite amazu y'ubucuruzi, aba ari umukire, kuko niyo atari we uyacururijemo, abandi baraza bakayakodesha bakajya baramwishyura buri kwezi.

Amazu y'ubucuruzi ni amazu akorerwamo ibikorwa byo kugura no kugurisha, harimo ibintu bitandukanye: ibiribwa, imyambaro,i bikoreshasho byo mu rugo se, kandi akunze kuba yegereye ku muhanda aho abantu benshi bagera byihuse.

Inzu z'ubucuruzi abantu bazubaka mu buryo butandukanye, bamwe bubakisha amatafari haba ahiye, cyangwa ay'inkarakara, abandi bakubakisha imbaho, hari n'abubakisha amabati, mbese inzu z'ubucuruzi ziba zitandukanye, bitewe n'icyo umuntu yubakishije.

Inzu y'ubucuruzi ni inzu ikorerwamo ibikorwa byo gucuruza, haba harimo ibicuruzwa bitandukanye, ibiribwa, ibinyobwa cyangwa se ibikoresho byifashishwa mu gukora mu rugo.

Inzu y'ubucuruzi aba ari nziza cyane kuko umuntu uyifite yiteza imbere; akayicururizamo cyangwa se akayikodesha abandi bantu bashaka kuyicururizamo, bakamuha amafaranga, akikura mu bukene.

Iduka ni inzu iba irimo ibicuruzwa imyenda, inkweto, hakaba harimo imyenda y'abana n'imyenda y'abakuru, ibikapu cyangwa se ibyo twita amasakoshi.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu z'ingirakamaro cyane， kuko zifasha abazicururizagamo， kubika ibikoresho byabo neza， ntibabe babyiba kandi bakiteza imbere.

Muri hoteri ni ahantu abantu bashaka kuruhukira haba hatuje cyane, hari umutekano, hari isuku, maze uwo umuntu wumva adatuje akagenda, iyo ushaka urabanzag ukagura ibiryo ukarya haba hari ibiryo bihiye, warangiza ukaryama ukaruhuka.

Hoteri ni inyubako abantu bajya kuruhukiramo, iba ituje irimo umutekano mwinshi cyane, iba ifite isuku haba harimo n'ibiribwa n'ibinyobwa.

Amazu y'ubucuruzi ni amazu yubakwa bitandukanye n'amazu yo guturamo, kuko usanga afite nk'icyumba kimwe cyangwa ibyumba bibiri, kandi babikamo ibicuruzwa bitandukanye.

Kubaka inzu y'ubucuruzi bisaba ubushishozi, kuko ni ahantu haba hazahurira abantu benshi, uyubatse nabi ishobora kuba yabahirimaho, bigatera ibyago nk'impfu.

Amagare ibikoresho bikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu igare riba rifite amapine abiri, rifite naho'umunyonzi agomba kwicara cyangwa se aho bagomba gutereka ibintu, hari naho abagenzi bicara.

Mu iduka ni ahantu dusanga ibicuruzwa bitandukanye, nk'ibiribwa, imyambaro cyangwa se ibikoresho dukoresha mu rugo, gukorera mu iduka ni byiza kuko bituma ukoreramo aba afite umutekano.

Inzu z'ubucuruzi ni nziza, zidufasha mu kwiteza imbere, tugashyiramo ibihingwa byacu twejeje, maze ababishaka bakaza kugura, bakaduha amafaranga, maze tukiteza imbere.

Dufite amazu y'ubucuruzi, ni amazu yubakwa agenewe kugira ngo azacururizwemo. Yubakanwa ubushishozi kugira ngo atazahirima ku bantu.

Inzu bacururizamo n'inzu ziba ari nziza cyane, kuko ziba zegereye ku muhanda aho abantu bose bashobora kugera bitewe n'ibara buri wese ashaka gushi kuri iyo nzu, harabatera ho irangi ry'umutuku, irangi ry'umuhondo, n'irangi ry'umweru.

Kubaka inzu y'ubucuruzi ni ukwiteganyiriza kuko uyicururizamo ukiteza imbere waba udafite n'igishoro ngo uyicururizemo abandi bakaza bakayikodesha bakajya bakwishyura ku kwezi.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu zikorerwamo ibikorwa byo kugura no kugurisha haba harimo ibicuruzwa bitandukanye imiceri, amasabune, imyunyu, ibibiriti maze abaguzi bakaza bakagura.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu zubakwa hagamijwe kugira ngo bazazicururizemo, iyo umuntu afite inzu y'ubucuruzi acururizamo adacururiza hanze, aba afite umutekano w'ibyo acuruza kuko ntawabimwiba.

Intebe ya palasitike iyo umuntu yicayeho yumva umugongo umeze neza kuko ntabwo uvunika ,abantu bakunda kuzicaraho cyane cyane mu bukwe ni ho bazitira, bakazijyana nko muri sale maze abantu bakazicaraho ,kuko n'iyo wazitiye uzitwara neza zitaremereye.

Amaduka ni amazu yubakwamo, kugira ngo bajye baracuruzamo ibicuruzwa bitandukanye, ba nyirayo iyo nta bushobozi bafite bwo gucururizamo, abandi baraza bakayakodesha, maze bakajya barabishyura ku kwezi.

Kubaka inzu yo gucururizamo ni ukwiteganyiriza, kuko niyo utayicururijemo abandi baraza ukayibakodesha, bakaguha amafaranga bo bakayicururizamo, bakazajya bakwishyura buri kwezi.

Kubaka inzu y'ubucuruzi ni ukwiteganiriza kuko iyo utayicururijemo wowe ubwawe, abandi baraza bakayikodesha bakajya bayicururizamo, maze nabo bakaguha amafaranga.

Iduka ni inzu bacururizamo. Hari abacuruza imyenda, abacuruza ibiribwa, abacuruza ibikoresho byo mu rugo, biba bitandukanye.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu zikorerwamo ibikorwa byo gucuruza, maze abazicururizamo bakiteza imbere, kuko mu bagabo bari kubona amafaranga batanze ibyo bacuruza.

Iduka ni ahantu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye. Hariho abacuruzamo imyenda, abacururizamo inkweto, abacururizamo ibiribwa, n'abacururizamo ibindi bikoresho bitandukanye.

Muri hoteri ni ahantu bacuruza ibiryo bihiye ndetse n'inzoga z'ubwoko butandukanye, zavuye mu nganda zitandukanye. Haba hari umutekano, ku buryo umuntu uri kunwera muri hoteli nta bwoba aba afite.

Amaduka ni inyubako dusangamo ibicuruzwa hakaba harimo ibicuruzwa byo kurya, ibikoresho byo mu rugo, ibyo kunywa byavuye mu nganda n'ibindi.

Iduka ni inyubako dusangamo ibicuruzwa bitandukanye, nk' imyenda, inkweto, ibiribwa cyangwa n' ibindi bikoresho byose twifashisha mu rugo.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu zubakwa ziteganyirijwemo kugira bazajye bazicururizamo, mu buryo bwo kugira isuku, inzu y'ubucuruzi igomba kuba iteye irangi, irimo sima, cyangwa se byaba bitarimo bakajya barahakubura neza, hakagira isuku.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu nziza cyane kuko zifasha abazicururizamo kwiteza imbere bakava mu bukene, bakabasha kubona ibibatunga bo n'imiryango yabo.

Inzu z'ubucuruzi, ni inyubako dusangamo ibicuruzwa bitandukanye, waba ukeneye umuceri ukagenda ukaguriramo, cyangwa n'imyambaro.

Inzu z'ubucuruzi ni inyubako zikunze kuba zegereye ku muhanda, abazicururizamo biteza imbere, kuko baba bari kwakira abaguzi bakabaha ibyo bakeneye na bo bakabaha amafaranga.

Amazu y'ububucuruzi ni amazu aba yubatse ahantu hegereye n'umuhanda, abaguzi bashobora kugera byihuse kuko ahantu bashoboye kugera, ni na ho abaguzi baboneka cyane kurusha ahategeye umuhanda.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu zagenewe gucururizwamo, haba harimo ibicuruzwa bitandukanye ibiribwa, amavuta yo kurya, ayo kwisiga, amakara n'ibindi bitandukanye.

Mu nzu z'ubucuruzi ni ahantu dusanga ibicuruzwa bitandukanye ,ibibiribwa, ibinyobwa, imyambaro n'ibikoresho byo mu rugo. Inzu z'ubucuruzi ninziza kuko zidufasha kubona ibyo dukeneye kugura bitworoheye.

Amazu y'ububucuruzi ni amazu bubaka kugira ngo bazajye barayacururizamo, ni byiza ko haba hari umutekano, kuko hatabayeho umutekano abajura baza bakiba ibicuruzwa.

Inzu ziba zisa neza cyane kuko haba harimo ibiribwa ibinyobwa, kandi nta muntu waza kugura ikintu cyo kurya kiri ahantu hasa nabi, naho haba hari isuku nyinshi.

Kubaka inzu y'ubucuruzi ni ukwiteganyiriza kuko ifasha nyirayo mu kuzamuka mu iterambere, akaba yayicururizamo cyangwa se abandi bakayikodesha bakajya baramwishyura amafaranga, nawe akagura ibindi akeneye.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu zubakwa kugira ngo bajye bazicururizamo, hari bamwe bazubakisha amatafari, abandi bubakisha amabuye, hari n'abubakisha amabati bitewe n'ibikoresho bafite.

Inzu z'ubucuruzi, ni inzu bubaka zaragenewe kugira ngo bajye bazicururizamo, zikunze kubakwa ahantu hafi y'umuhanda, bubakisha ibikoresho bitandukanye hari abubakisha amatafari, abubakisha ibiti n'abubakisha amabuye.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu zubakwa, kugira bazajye barazicururizamo, bakunda kuzubaka hafi y'umuhanda ahantu abaguzi bizajya biraborohera kuhagera.

Mu rusengero ni ahantu cyangwa inyubako abantu bahuriramo abagore, abagabo, abana bagahuriramo bafite intego imwe yo gusenga kandi bagomba kuba bizera Imana imwe.

Ishyirahamwe ni itsinda ry'abantu, bishyiraga hamwe bakagira intego imwe yo gukora ikintu runaka. Hari amashyirahamwe y'ubuhinzi, amashyirahamwe yo kuboha nk'utwibo cyangwa uduseke, afite intego yo kugira ngo biteze imbere.

Amashyirahamwe, ni amatsinda, akorwa n’abantu, mu buryo bwo kugira ngo bajye biteza imbere, batezanye imbere. Habaho amashyirahamwe y’abahinzi, amashyirahamwe y’abacuruzi, bakajya bakusanya amafaranga, bakiteza imbere.

Muri hoteri ni inyubako ihurirwamo n'abantu benshi, baba baje kuruhukiramo cyangwa bajya gufatiramo amafunguro, hariho n'abazamo baje kwivura indwara, bagakora nka masaje.

Muri hoteli ni ahantu abantu baza kuruhukira. Haba harimo ibyumba byo kuraramo. ku buryo umuntu arara mu cyumba ashaka, bitewe n'ubushobozi bwe.

Hotel ni inyubako abantu bajya kuruhukiramo cyangwa kuriramo. Wabona uri no mu rugendo bukwiriyeho ,ukagenda ugatanga amafaranga. Ukaba waharara ejo ugakomeza urugendo rwawe.

Muri hoteri ni inyubako ibamo ibyumba byo kuraramo bikodeshwa, haba harimo n'ibiribwa, ndetse n'ibinyobwa, hoteri zikunze gucumbikwamo n'abantu baturutse kure, bukira bakabura aho barara.

Muri hoteli ni ahantu abantu bajya kuruhukira cyangwa se kurya ibiryo, kuko bacuruza ibiryo bihiye nk' inkoko zokeje, amafi, ibirayi, haba harimo n'ibyo kunywa.

Muri hoteri ni inyubako, abantu bashaka kuruhukiramo haba hatuje, hari umutekano uhagije harimo n' ibyo kurya n' ibyo kunywa waba ushonje ukabigura maze ukaruhuka uhaze.

Amasoko ni ahantu hahurira abantu benshi. Hari amasoko agaragara ko ari ku muhanda, atubakiye hari n'andi aba yubakiye ndetse mu buryo bugezweho.

Ku isoko ni ahantu cyangwa inyubako dusangamo ibicuruzwa bitandukanye, inkweto, imyenda, ibiribwa cyangwa se n'ibikoresho byo kwifashisha mu rugo.

Mu isoko ni ahantu hahurira abantu benshi bamwe baba bazanye ibicuruzwa abandi baje kugura. Haba harimo ibicuruzwa bitandukanye, imyambaro, ibyo kurya n'ibindi bikoresho.

Mu isoko ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi, haba harimo n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ibyo kunywa, imyambaro, amatungo, ndetse n'ibikoresho.

Mu isoko ni inyubako cyangwa hano dusanga ibihingwa cyangwa ibicuruzwa haba harimo n' abacuruzi bari kubicuruza, maze buri wese bitewe n' icyo ashaka akagenda, akagura maze bakiteza imbere.

Mu isoko ni inyubako cyangwa ahantu hahurirwa n'abantu benshi harimo ibicuruzwa, abaguzi bakaza bakagura buri wese bitewe n'icyo ashaka, bamwe bakagura imyenda, abandi bakagura ibyo kurya, abandi bakaba bagura ibikoresho byo mu rugo.

Mu isoko ni ahantu hahurirwa n'abacuruzi, ndetse n'abaguzi, amasoko amwe aba yubatsi afite ibisima ayandi yubatse agiye atandukanijwe n'imiryango.

Amasoko amwe n'amwe aba yubakiye andi atubakiye. Abantu bakajyanayo ibintu baba barahinze nk'amashu kugira ngo n'abatarabihinze ariko babikeneye baze kubigura babibone mu buryo buboroheye.

Mu isoko ni ahantu cyangwa inyubako tuguriramo ibiribwa, imyambaro, ibikoresho byo mu rugo, cyangwa se imbuto zo guhinga.

Mu isoko ni ahantu cyangwa inyubako ihurirwamo n'abantu benshi, harimo: abacuruzi, ndetse n'abaguzi. Hari amasoko aba yubatse mu buryo bwa kijyambere, hari n'andi aba atagira n'ibisima.

Tungurusumu ni igitunguru cy'umutuku cyangwa cy'umweru. Kiba gifite impumuro ikaze, gikunda gukoreshwa cyane cyane mu buvuzi gakondo, gikoreshwa no mu gikoni mu guteka ibiryo.

Mu isoko n'ahantu cyangwa inyubako ihurirwamo n'abandi benshi. Abacuruzi ndetse n'abaguzi bazanyemo ibicuruzwa bitandukanye, hari abazanye amatungo, abandi bazanye imyambaro, abandi bazanye ibindi bikoresho byo mu rugo.

Isoko ni ahantu cyangwa inyubako ihurirwamo n'abantu benshi, bazanye kugurisha ibicuruzwa. Hakaba hari n'abandi baba baje kugura. Isoko ni ryiza kuko rifasha abashaka kugira ibyo bagura, kubibona biboroheye.

Mu isoko ni ahantutu haba hari ibicuruzwa bitandukanye, nk'imyenda ibiribwa ibikoresho byo mu rugo, amasoko matoya namasoko manini.

Mu isoko ni ahantu cyangwa inyubako dusangamo ibicuruzwa. Urugero nk'amasafuriya, ibikombe, amasahani, ibijerekani. Tukagenda tukabigura tukabikoresha mu rugo iwacu.

Mu isoko ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi bamwe baba baje kugurisha ibicuruzwa byabo, n'abandi baje guhaha. Ku isoko haba harimo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibiribwa, ibinyobwa, imyambaro cyangwa se n'ibikoresho byo mu rugo.

Imbaburara ni igikoresho bakora mu ibumba, maze bakazajya barashyiraho amakara bakagitekaho, hariho n'abotsaho inyama ari zo bita burushete, n'abotsaho ibigori cyangwa ibijumba.

Mu isoko ni hantu cyangwa inyubako ihurirwamo n'abantu benshi, haba harimo ibicuruzwa, maze umuguzi akagenda ajyane amafaranga akagura ikintu bifuza.

Mu isoko ni ahantu usanga inyubako, abantu bahurira baje kugurisha ibicuruzwa abandi baje kugura, haba harimo ibicuruzwa bitandukanye; imyenda, inkweto, amasafuriya, n'ibindi bikoresho byinshi.

Isoko ni ahantu cyangwa inyubako bacururizamo ibintu bitandukanye ibiribwa, ibinyobwa, imyambaro cyangwa se n'ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho byo mu rugo ababikeneye bakaza kugura aho ngaho.

Isoko ni ahantu cyangwa inyubako abantu benshi bahuriramo, bamwe baba bazanye ibicuruzwa, abandi baje kugura, maze uwaje kugura agatanga amafaranga bakamuha ikintu ashaka.

Ibihumyo ni ubwoko bw'ibiribwa, bakunda kubitera ahantu habobereye, hatari izuba ryinshi, ni ho byera neza, bigira intungamubiri nyinshi, harimo nk'izubaka umubiri.

Mu isoko ni ahantu cyangwa inyubako ikorerwamo ubucuruzi, abaguzi bakaza kugura. Habaho amasoko mato, habaho n'amasoko manini agiye atandukanye.

Mu isoko ni ahantu abacuruzi bacururiza, ibicuruzwa byabo cyangwa se abahinzi bejeje imyaka, bakajya kuyigurisha kugira babone amafaranga, yo gukoresha ibindi bikorwa.

Mu isoko ni ahantu, abacuruzi benshi bahurira bazanye ibicuruzwa byabo. N'abaguzi bakaza kugura mu isoko. Ni ahantu heza cyane, kuko bifasha umuguzi kubona icyo ashaka vuba, yakiburira ku mucuruzi umwe akarebera ku wundi mucuruzi.

Mu isoko ni ahantu cyangwa inyubako bacururizamo, haba harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, imyenda, inkweto, ibyo kurya, ibikoresho byo mu rugo, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Mu isoko ni ahantu haba hari abacuruzi n'abaguzi. Haba harimo ibicuruzwa bitandukanye . Bamwe bari gucuruza imyenda, bari gucuruza amabombo, amasahani cyangwa se imijerekani.

Mu isoko ni ahantu cyangwa inyubako ikorerwamo ubucuruzi, haba amasoko asanzwe, hakabaho n'amasoko yihariye, nk'amasoko ahahirwamo n'abasirikari n'amasoko yihariye.

Mu isoko ni ahantu abantu benshi bahurira, bamwe baba bazanye ibicuruzwa, abandi baba baje kugura, buri wese n'icyo ashaka akagura ,maze agasubira mu rugo.

Mu isoko ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi, abaje gucuruza n'abaje kugura, abacuruzi baba bagomba kuba maso, kuko abantu bose siko baba baje kugura, haba n'abaza baje kwiba.

Mu isoko ni ahantu haba harimo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, ku buryo abaguzi baza bakagura imyenda, hari abagura inkweto hari n'abagurara ibikoresho byo mu rugo cyangwa bakagura ibyo kurya.